Abadamu bicaye baganira barebana bicaye ku ntebe z'umweru, inyuma yabo hari irido y'ubururu, iriho amagambo yanditse mu nyuguti z'umweru, imbere yabo hari impapuro z'umweru n'izindi zifite igifuniko cy'ubururu.

Abagore babiri bari gufasha undi mugore kuvoma amazi mu ndobo y'icyatsi, umugore umwe bose bambaye igitenge, n'utuntu bikenyeje hejuru, imbere yabo hari igiti kinini n'igikuta.

Abakobwa bicaye bakikijwe n'imeza ifite igitambaro cyu'umweru iriho udutabo tw'ubururu amazi, bamwe bambaye imipira y'icyatsi n'umwe wambaye umupira w'umweru, bose bambaye udupfukamunwa tw'umukara kandi barakurikiye.

Umugabo ufashe utuntu tubiri tw'mweru, ari gusobanura undi mugabo wambayelnete n'ikoti ry'umukara, iruhande rw'uwo mugabo hari undi wambaye imyenda y'ubururu n'ibindi bintu biri ku meza.

Abantu benshi bari mu nama, imbere yabo hari amazi, bicaye ku ntebe z'umukara, bicaye barebana, imbere hari tereviziyo, ifoto ya Perezida wa Repubulika imanitse hejuru, inzu ifite amadirishya atuma imbere hinjira urumuri ruhagije.

Umujyanama w'ubuzima urimo aganiriza umuturage uri kumwe n'umwana we. Umujyanama w'ubuzima yambaye ishati y'ubururu bwerurutse irimo uturongo tw'umweru, ipantaro y'umweru, na bote z'umweru. Ku ruhande rwe hariho impapuro, umubyeyi baganira na we afashe urupapuro rw'umweru, n'umwana we yambaye agapira k'umutuku.

Umugore wambaye itaburiya y'ubururu, yitandiye mu mutwe, wambaye rinete, wambaye umupira w'amaboko maremare w'icyatsi, ari kuvura umusaza wambaye ingofero, ufite imvi nyinshi.

Icyumba babagiramo umurwayi aryamye ku gitanda, abaganga bari kumubaga bari hejuru ye, abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse n'ibitambaro bipfuka umutwe, ndetse mu cyumba harimo ibikoresho byongerera umwuka umurwayi.

Abaturage bicaye hamwe bose batuje bakurikiye umuntu uri imbere yabo uri kubaha amabwiriza abaganiriza akoresheje indangururamajwi. Imbere hari akana kicaye hasi bicaye mu itente, rifite amabara y'idarapo ry'u Rwanda.

Hari abana benshi. Umwe ari kuvomesha, abandi bari kuvoma, hari ufite utugaro tubiri two kuvomesha n'undi uri kuvoma ako kanya. Iruhande rwabo hari abandi bana bategereje kuvoma.

Abagabo benshi n'abagore benshi bamwe bambaye udupira tw'umweru n'abandi bambaye ibintu by'umukara, inyuma yabo hari icyapa kivuga ngo twite ku buzima bw'umubyeyi utwite n'inyuma yaho hari igikuta cy'umweru.

Umugore ufashe uruhinja mu ntoki, ufite ibisuko, wambaye imyenda iganjemo amabara y'umuhondo, umukara n'umweru, yambaye agapfukamunwa yambaye n'amaherena afashe umwana mu ntoki yambaye neza, inyuma ye hari undi mugore wambaye agapfukamunwa ufashe umwana mu ntoki.

Umuganga urimo ukingira umubyeyi ukuze wambaye ingofero n'agapfukamunwa, umuganga yambaye imyenda y'ubururu bwerurutse irimo agapira k'umweru ndetse n'agapfukamunwa, inyuma hari undi muganga na we urimo ukingira umuntu.

Umukobwa muto ufite igitenge mu bitugu bye, ari kuvama amajerekani abiri, undi mugore ufite umutaka wambaye ibintu by'ubururu mu ijosi rimwekano k'umweru ari kumufasha kuvoma,i nyuma ye hari abandi bana benshi.

Umwana uri ku ivomero ufite umusatsi muke wimennyeho amazi, uri guseka cyane wishimye wambaye umupira w'ubururu, uvanzemo n'umukara, wambaye n'ipantaro y'icyatsi. Inyuma ye hari abandi bantu bari kumureba.

Umugore afashe umwana. undi numugore w'umuganga ari kumwita umwana wambaye imyenda y'umweru n'akagofero k'amabara menshi, umugore yambaye itaburiya, inyuma ye hari urugi rw'icyatsi.

Umwana wishimye cyane wambaye agapira k'umweru uri gusarura imboga, inyuma ye hari undi mugore uri guseka wambaye agatambaro k'umweru mu mutwe, inyuma ye hari igikuta.

Umukobwa wambaye umupira w'ubururu n'ijipo y'ubururu, ari gukaraba n'amazi meza, inyuma ye hari inzu ebyiri, imbere ye hari igiti kinini cyane gifite amashami manini n'ibindi biti biyikikije.

Abana babiri bose bambaye amashati y'umutuku, umwe ari gukarabya undi intoki akoresheje amazi mu gikombe cy'ubururu. Inyuma yabo hari ibibabi byinshi byiganjemo ibiti.

Abagore benshi bambaye ibitenge amabara y'umutuku n'umuhondo bambaye amajire y'icyatsi, n'abandi batayambaye, inyuma yabo hari inzu ifite umuryango n'idirishya ry'igikuta cy'umweru.

Abana batandatu bari ku ivomero bambaye imyenda y'umweru, barivoma mu ngabobo z'umuhondo. Inyuma yabo hari ibiti byinshi n'indi nzu isakaye mu mabati y'umwe.

Abana benshi bafashe ku ivomero, umwe wambaye imyenda y'umutuku, undi wambaye imyenda ya kacye. Imbere y'aho gato, hari ibiti byinshi bigaragaza ko ari ishyamba. Iruhande gatoya hari abandi bana badafashe ku ivomero.

Abakobwa bane n'umuhungu umwe bari muri gahunda yo kwita kubanana bato, umwe yambaye isaha undi afite ibishuko byinshi, inyuma yabo hari igishushanyo kirimo ibara ry'ubururu.

Umuntu wambaye ishati y'icyatsi n'ikabutura y'umukara, iruhande rwe hari indobo y'ubururu uri gukaraba intoki, inyuma ye hari ibiti byinshi cyane, iruhande rwe hari irindi vomero n'indobo y'ubururu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kwita ku mwana wambaye ishati y'ubururu, iruhande rwe hari undi mugore ufite isakoshi y'umutuku, muganga yambaye isaha.

Abantu benshi bishimiye umugabo w'umuzungu bari kumukomera amashyi abandi bamuririmbira, umugabo w'umuzungu yambaye rinete n'ikoti ry'umukara, abandi bambaye ibintu byo kwa muganga by'ubururu harimo abagore n'abagabo.

Abaganga batatu babiri bambaye imyenda y'ubururu n'undi wambaye ikaburiya y'umweru. Bose bambaye udupfukamunwa n'utugofero two mu mutwe. Bose bambaye rinete. Babiri muri bo bafite udukarito tw'imiti.

Umugore wambaye igitenge cyiganjemo amabara y'umutuku n'umuhondo n'icyatsi, afashe umwana afite na amvelope mu ntoki. Inyuma ye hari abandi bagore bafashe abana bategereje intebe. Hejuru ye hari parafo hari n'umuryango.

Umugore uri guseka ufashe umwana wambaye ingofero, ari kuvomesha afite indobo y'umukara ari gushyimo amazi, inyuma yabo hari ibiti byinshi n'inzu za nyakatsi.

Abagore bane n'umukobwa umwe bategereje kuvomerwa, ni amajerekani menshi cyane, hari amavomero atatu, inyuma yaho hari ibiti, imbere yabo hari akazu gatoya gaterereye ko bavomeramo.

Umugore uhetse umwana uri koza umufuniko w'indobo, yambaye umupira w'icyatsi, ari ku ivomero, iruhande rwe hari ibyatsi byinshi n'ibiti byinshi, n'ibiti ku ruhande rwaho.

Umwana wambaye ikanzu y'ubururu n'agapira k'umweru, iruhande rwe hari amazi ari mu kintu gisa icyatsi, umwana ari kunywa amazi, imbere ye hari amashuri yigamo.

Abakobwa babiri barimo guseka bose bafashe indobo y'icyatsi umwe yambaye umupira w'ubururu n'ijipo y'umuhondo, undi yambaye iby'umutuku n'ijipo y'ubururu, imbere yabo hari ishyamba n'ibiti byinshi, n'inzu ya nyakatsi.

Abana benshi bambaye imipira y'ubururu bicaye hasi bari kumwe n'abandi bantu bakuru harimo n'umuzungu, inyuma yaho hari imeza n'abantu bicaye ku ntebe bambaye ibintu by'umukara.

Umugabo uri kuvuga ijambo yambaye karuvate ndetse n'ikote ry'umukara, amarinete y'umukara, imbere ye hari akabati afasheho kariho na mikoro. Iruhande rwe hari intebe z'umweru ndetse n'amazi.

Umugabo uri kuvomera abana benshi, abana bafite abarimo indobo, amabido, indobo z'umutuku n'iz'ubururu, inyuma yabo hari ibiti byinshi, iruhande rwabo hari abandi bana bari gukina.

Abantu babiri bari mu cyumba cy'inama, umugore aricaye naho umugabo arahagaze, yambaye imyenda y'ubururu bwerurutse irimo uturongo tw'umweru. Bakikijwe n'imeza zirimo ibikoresho bitandukanye nk'imashini, ibyuma by'amajwi, insinga zinyuranamo, intebe z'umukara n'ibyapa. Hejuru hari ifoto ya perezida Kagame.

Abantu bahagaze imbere y'inzu bafashe udupapuro batwegereje hejuru y'inda, bambaye udupfukamunwa bamwe bambaye udupfukamunwa tw'ubururu bwerurutse, abandi bambaye utw'umukara. Inyuma yabo hari ibyapa bitatu igifite ibara ry'umuhondo, iry'umweru ndetse n'iry'ubururu.

Abantu benshi bari mu nama, icyumba kinini gikorerwamo inama, abagabo bane n'abagore babiri bari mu nama, umwe afite mudasobwa.

Abantu bari kuvoma ku iriba harimo abasore n'abana, umugabo wambaye umupira w'ubururu ari gusunika icyuma cyo ku iriba kugira ngo amazi ajye mu kijerekani cy'umuhondo, imbere gato hari akabido k'umuhondo, inyuma yaho hari ibyatsi.

Abagabo cumi n'umwe n'abagore babiri. Bamwe muri bo bambaye amataburiya y'umweru abandi bafashe mu mufuka. Inyuma yabo hari ikigaragaza icyo baje gukora. Ku rundi ruhande rwabo hari undi mugore uri ku ntebe, wambaye ibintu by'icyatsi.

Umwana uri guseka cyane wambaye ishati y'umuhondo, ikabutura y'ubururu, ufashe ibikombe bibiri by'amazi, inyuma ye hari umugezi muto cyane, iruhande rwe hari abandi bana bari kumureba cyane.

Ku bana bane bishimye cyane, babiri bambaye umupira w'umutuku, undi yambaye ishati y'umweru, undi yambaye umupira w'amabara arimo umweru n'ubururu, umugabo ari kubakarabya amazi meza.

Abagore batatu bishimye, bari kubyina ibya kinyarwanda, inyuma yabo hari abandi bagore bari gukoma amashyi batarama. Inyuma yabo hari amashusho, iruhande rwabo hari intebe n'imeza.

Abantu cumi na batatu, bamwe bambaye umupira imipira y'umweru abandi bambaye imipira y'ubururu bose bambaye ingofero. Bari kumunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri. Insanganyamatsiko ivuga iti; isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite umusatsi mwinshi, afite terefone mu ntoki yo kwandika n'ikaye yambaye n'agapfukamuhande rwe, aragusobanurira umugabo wambaye umupira w'ubururu hehekinwe n'indwara ya sida.

Umugabo ubabaye cyane ufite umusatsi mwinshi, uri ahantu hasa nabi cyane, imbereye hari urukuta rusa nabi cyane kandi yambaye ubusa no ku kirenge aziritseho umugozi.

Abantu benshi bakurikiye ikiganiro bari mu nama, imbere yabo hari televiziyo hari umugore wambaye rinete n'undi mugabo wambaye umupira w'umweru hari kamera iri kubafotora, bose barakurikira.

Ameza abiri imbere yaho gato hari abantu benshi cyane harimo abagore n'abagabo. Hejuru hari parafo yenda gusa umutuku, inyuma yabo hari tereviziyo n'ibindi bintu biyikikije.

Umugabo umwe afashe mu rutugu, undi mugabo afashe inkoni undi yambaye nabi ari kureba nabi, umugore ari iruhande rw'abambaye umuringa mu ijosi, inyuma yabo hari abandi bagore bari kubareba.

Umukobwa wifotoje ahagaze imbere y'inzu aramwenyuye bigaragara ko yishimye, imbere yambaye agapira k'ubururu naho inyuma yambaye agapira k'umutuku, afite agasatsi gake kandi yifotoje ahengetse umutwe.

Abagore batatu bose bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambaye iy'ubururu, undi yambaye iy'umukara, inyuma yabo hari ibati, inyuma yabo nabwo hari ibiti n'inzu za nyakatsi nyinshi za kera cyane.

Abagore babiri bari kuvugana umwe afashe mikoro n'isakoshi yambaye n'isaha, undi yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara inyuma yabo hari abandi bicaye ari benshi n'abicaye inyuma yabo hari amarido y'umweru n'umuryango.

Umuntu wicaye baziritse amaguru, wambaye umupira w'ubururu wifashe ku mutwe, iruhande rwe hari igitenge, yanicaye ku mukeka.

Abagabo barindwi n'abagore barindwi iruhande rwabo hari ikigaragaza ko bari mubukangurambaga bwo kurya neza inyuma yaho hari umuryango winjira mu nzu.

Umugore ufite mikoro mu ntoki wambaye igitenge kirimo amabara y'iganje icyatsi umuhondo afite ibishuko inyuma ye hari icyapa kigaragaza ibyo waje gukora, iruhande rwe hari umugabo wambaye umupira w'umukara.

Abana benshi bambaye udupira tw'umuhondo n'utuntu bambaye two mu mutwe, bari ahantu henshi bicaye harimo abakobwa n'abahungu, umwe ari guseka cyane abandi ntabwo bari guseka.

Umugore wambaye umwenda urimo amabara yiganjemo icyatsi n'umutuku. Yambaye umuringa arimo guseka. Inyuma ye hari ibindi bicuruzwa arikugura n'imeza inyuma ye.

Umugabo wambaye amarinete ufite umusatsi mwinshi, wambaye itaburiya y'umweru uri kwerekana amafoto y'abarwayi, igaragaza amagufwa y'abarwayi.

Umugabo w'imibiri yombi ufite amatwi n'amenyo y'umweru cyane, afunze amaso uri guseka cyane, yambaye umupira w'umweru, inyuma ye hari igikuta cy'umuhondo.

Umugore wambaye umupira w'ubururu ufite ga, ari kuvura umurwayi kumuvura amenyo umurwayi yambaye amaherena n'akantu k'icyatsi kari ku gituza cye.

Umugabo urikoza amenyo ufite ubwanwa bwinshi wambaye umwenda w'umukara. Imbere ye hari untu bahanagurisha intoki. Iruhande rwe umwenda bahanagurisha umubiri wose. Inyuma ye hari amarido y'umutuku.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi n'ubwanwa buke, ari kugenzura amenyo ye, yambaye umupira w'umweru, inyuma ye hari igikuta cy'umweru, kurundi ruhande rwe hari akabati ko kubikamo imyenda k'umweru.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi, ubwanwa, uri guseka cyane, wambaye umupira w'umweru, mu gituza cye hariho agatambaro k'umweru, ari mu cyumba cyaho bagiye kumuvurira.

Umuganga uri guseka wambaye itaburiya y'umweru, i ruhande rwe hari igitanda cy'amabara y'icyatsi urundi ruhande hari ibyo yifashisha kwa muganga, hariho n'idirishya imbere inyuma ye hari igishushanyo.

Umugabo ukiri muto w'umwirabura yasetse, afite agasatsi gake n'ubwanwa bw'umukara, yambaye agapira imbere ndetse n'ishati y'ubururu, ari ahantu hasa neza.

Abantu bicaye n'abandi bahagaze bari mu itente, imbere hari umusaza uri kuri terefone, wambaye ikote ry'ubururu. Uhagaze ni umugore wambaye ijiri y'ubururu n'imyenda y'umukara, uri guhereza abakecuru ibyo bifashisha.

Umukobwa n'umuhungu bakiri bato, bari kumwe n'umukecuru, umukobwa afite agasatsi gake umuhungu afite agasatsi gake ndetse n'ubwanwa, umuhungu yambaye umupira w'umutuku naho umukobwa yambaye agapira k'umweru. Barimo barateka imboga ndetse bafite n'imigati ku isahani.

Umusaza n'umukecuru bishimanye cyane, umusaza ufite ubwanwa bw'imvi, umukecuru ufite agatambaro yiteze k'umutuku, umukecuru ufite inyinya y'umutuku uri gusaka cyane wambaye n'ikoti ry'umukara.

Umugore umwe wicaye, inyuma ye hari undi mukobwa umufashe mu bitugu, umukobwa yambaye isaha, iruhande rwabo hari umusego, bose barasutse, inyuma yabo hari umuryango, bicaye no mu ntebe.

Umugabo ukuze ufite umusatsi urimo imvi, wambaye amarineti y'umukara, wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro, wicaye mu ntebe ifasha abamugaye kugenda, ari kumwe n'umwana w'umuhungu ufite imisatsi myinshi y'umukara, wambaye agapira k'ubururu, wicaye ku ntebe ifite amabara y'umukara, irimo uturongo tw'umweru.

Umuntu wita ku bageze mu zabukuru arimo arafasha umusaza kugenda yifashishije icyuma gifasha kugenda, inyuma yabo hari inkuta z'umweru, umusaza w'umwirabura afite ubwanwa bw'umweru, bakikijwe n'utubati turimo ibikoresho.

Abagabo babiri bishimye, umwe yambaye ishati y'umweru, n'undi yambaye ishati y'umweru, umupira bafite amazi mu ntoki. Inyuma yabo hari ibiti byinshi n'akantu ko gushyiramo imyanda.

Umugore wambaye ibintu by'ubururu, uri gufasha umusaza kugenda neza, umusaza yambaye umupira w'umweru, umukandara w'umweru, n'ipantaro y'umukara, iruhande rwabo hari ibindi bikoresho bifashisha mu buzima bwa rusange.

Umukobwa uri guseka wambaye umupira w'ubururu ufite ibishuko, uri kwita ku musaza ufite imvi wambaye umupira w'umuhondo, ufite n'ubwanwa bw'imvi, inyuma yabo hari ibikoresho byo mu nzu.

Abagore batanu harimo batatu bicaye hasi abandi babiri bicaye ku ntebe n'undi muzungu wicaye ku ntebe, umuzungu afashe umwana, inyuma yabo hari ibiti byinshi hari n'ibindi biti byo kwasa.

Abagore batatu babiri muri bo bambaye amadarubindi, umwe ari kubereka muri telefone, inyuma yabo hari akabati karimo ibitabo byinshi cyane.

Umusaza uri gukora imyitozo ngororamubiri, ufite ubwanwa bw'imvi, wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, umuhungu uri imbere ye ari kumukoresha amufasha muri siporo. Inyuma ye hari akabati higanjemo ibikoresho byo mu nzu.

Umugore wambaye isavu ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, arije gufasha umusaza wambayepiro y'umukara n'ipantaro yaka kugirango agende neza iruhande rwabo hari ibindi bitanda' ubufasha mbona uburwayi bwe.

Umusaza ufite imvi nyinshi wambaye rinete, wambaye n'ishati y'icyatsi cyijimye, washyizeho akenda k'umweru, uri kwandika mu ikayi, inyuma ye hari ikibaho cyiriho ibipapuro byinshi.

Abagore babiri bambaye ibintu bisa n'uwambaye ingofero n'umupira w'umweru, iruhande rwabo hari undi mugore ufite agapfukama mu ntoki wambaye inkweto z'umukara, inyuma yabo hari undi muhungu wambaye ibintu by'umukara.

Umusaza uri kumwe numwana mutoya uri guseka ufite umusatsi mwinshi wambaye umupira w'umukara numu umusaza afite imvi nyinshi yambaye ishati yubururu iruhande rwe hari igikoni haririmo'byifashishwa mu guteka.

Abakecuru benshi bicaye harimo bambaye ibitenge birimo amabara menshi, hari n'isakoshi y'umukara. Inyuma yaho hari izindi ntebe ziticayeho abantu, kandi inyuma yabo hari urutoki runini cyane.

Umugabo umwe n'umusaza umwe wishimye, umugabo umwe yambaye umupira w'ubururu, umusaza yambaye ishati y'ubururu n'ingofero, inyuma yabo hari amapave n'ubusitani bwiza cyane n'ibiti byinshi cyane.

Umusaza ufite imvi wambaye rinete wishimye cyane, uri gusomera umwana igitabo, umwana ufite imisatsi myinshi, imbere yabo hari imeza iriho ibikombe bibiri, n'inyuma yabo hari amatara.

Umuntu wita ku bageze mu zabukuru arimo arita ku musaza w'umwirabura. Uwo musaza afashe ikiyiko kiriho icyo kurya agiye gutamira. Imbere yabo hariho imbuto nka pome, ibikombe ndetse n'izindi pome zikase mu duce. Uwita ku bageze mu zabukuru arimo aramusukira icyo kunywa mu kirahure.

Abagabo batatu n'abagore batatu, umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambaye ikoti y'umukara, undi yambaye ikanzu y'umuhondo, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibijyanye n'ubuzima Minisiteri y'Ubuzima.

Umuganga umwe n'umukorerabushake bari guha ubuvuzi bw'ibanze umurwayi urembye, iruhande rwabo hari undi muganga n'undi mukorerabushake uri kubafasha kuvura uwo murwayi, kuruhande rwabo hari undi mukorerabushake uri kubareberera, hejuru yabo hari igiti.

Intebe nyinshi z'umutuku abantu bicayeho biganjemo abagabo n'abagore imbere yabo hari abandi bicaye umwe afashe mikoro ari kubagira inama, inyuma yabo hari ibyapa bindi bigaragaza ibyo bari gukora.

Abaganga benshi barimo abagore, barimo n'abagabo bicaye n'abandi bahagaze bari kwifashisha uu byo kuvura abarwayi bafite ibikoresho by'ibanze, hejuru yayo hari parafo n'iruhande rwabo hari amadirishya menshi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'undi mupira w'ubururu ari kwandika ku ikaye imbere ye hari mudasobwa ari kuvugisha umurwayi ashaka icyo amukorera inyuma ye hari undi muganga wambaye ibintu by'ubururu.

Inyubako ifite ishusho y'umweru igaragaza ko ari ibitaro by'akarere ka Shyira. Ifite igisenge giisa umutuku, ifite imiryango ibiri n'amadirishya atandatu.

Inzu nini ifite ibara ry'umweru, ifite amabati y'ubururu, yanditseho inzu y'ababyeyi byanditse mu nyuguti z'ubururu, ifite amadirishya n'imiryango yo kwinjiriramo, inyuma ikikijwe n'ibiti ndetse n'ubusitani.

Icyumba cyo kwa muganga gifite ibitanda bitanu biriho amashuka afite ibara ry'ubururu hasi n'umweru hejuru, hari utumeza two guterekaho ibintu, amarido y'umweru, amatara hejuru n'aho bacomeka ibintu bitandukanye.

Umusaza wambaye ishati y'umutuku wambaye rinete uri guseka cyane. Iruhande rwe hari umugore uri kumwitaho mu bijyanye n'ubuzima wambaye imyenda y'ubururu, inyuma yabo hari umutako n'itara. Inyuma yabo gato hari n'idirishya.

Icyumba cyiganjemo ibikoresho byinshi byo kwa muganga. Hari abasaza babiri, umwe wambaye itaburiya y'umweru n'undi wambaye ubururu. Iruhande rwabo hari umugore wambaye ibintu by'umukara n'undi musore uri imbere ya televiziyo.

Inzu yubakishije amakoro, ifite amadirishya, imireko ifata amazi, abagabo babiri bari kugenda, umwe wambaye itaburiya y'umweru, n'undi wambaye agapira k'umweru. Inzu ikikijwe n'ubusitani, ruguru yayo haragaragara imisozi.

Intebe nyinshi cyane, hejuru yayo hari igifasha kugabanya ubushyuhe, nubwo hejuru hari ibipfurizo byinshi by'abana, iruhande rw'aho hari amashusho agaragaza ko bavura amaso.

Umugabo ubyibushye cyane wambaye ikabutura ya kaki n'umupira w'icyatsi wambaye agapfukamunwa. Inyuma ye hari idirishya ririho amarido, iruhande rwe hari ibikoresho byinshi harimo ibyuma bakoresha kwa muganga kugira bafashe umurwayi.

Umugabo uri ku igare utwaye umugore ufite indobo, iruhande rwabo hari igipangu cyinjira mu ivuriro rya Gisenyi, hari abantu bategereje gahunda zo kwivuza bakeneye cyane.

Inzu ifite amadirishya abiri n'imiryango, iruhande rwayo hari ubusitani n'ibiti bitoya, imbere yaho gato hari ibigega bibiri bijyamo amazi, imbere gato yaho na none hari indi nzu ifite amadirishya mato.

Umuganga wambaye taburiya y'umweru agiye kuvura umurwayi wambaye isengeri, muganga yambaye ga agiye kumutera urushinge rw'ibanzu, imbere hari indi ntebe iriho abantu batagaragara neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bafashisha bavura abarwayi. Iruhande rwaho hari igikuta cya move, hari igitanda bavuriraho abarwayi, no ku ruhande hari intebe muganga yicaraho.

Icyumba cy'abarwayi, iruhande harimo ibyuma byinshi byabarwayi, ku rundi ruhande hariho idirishya, urundi imbere yaho hari akantu gasa ubururu n'imisego n'yindi shusho iri imbere yaho.

Inzu ifite amabara y'umuhondo, hanze yaho hari kizimyamwoto n'intebe z'abantu benshi bicaraho, imbere yaho hari umusaza wambaye ishati y'icyatsi, inyuma ye hari ikigega cy'amazi.

Amazu abiri ateganye afite amadirishya menshi, imbere yaho hari igiti gitoya, iruhande rwaho hari ikigega kinini, urundi ruhande hari igipangu gikikije, imbere yaho hari ubusitani.

Ibitanda byinshi byo kwa muganga biriho ibintu byibanze urushashi numurwayi hariho amado yumuhondo mbere yayo hari amadirishya menshi asa umukara ninzitiramibu.

Umwana muto wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, atwaye umusaza ku kagare, umusaza yambaye imyenda y'umweru, imbere ye hari umugore wambaye umupira w'umweru, iruhande rwe hari itente.

Abantu batanu, abagore bane n'umugabo umwe ubari hagati, bifotoje bose bamwenyura, bari imbere y'isuzumiro ryo kwa muganga ryubakishijwe amatafari ndetse n'ibirahure.

Ibiti bitoya biri ku ruhande n'urundi imbere yayo hari abagore babiri bategeranye cyane umwe yambaye ibintu birimo umutuku undi yambaye uburu n'umuhondo mbere yaho gato harabandi bagore bicaye bategereje ko babakorera.

Ibyatsi bigufi iya harimo kimwe kiri mukindi bisa nkaho arikirekire mbere ya hari idirishya rigaragaza ko ari abantu bavurira kanseri iruhande rwayo hari umusirikare wambaye impuzankano ya gisirikare.

Inzu nini yanditseho amagambo aranga ikigo nderabuzima cya Kanyinya, yanditse mu nyuguti z'umukara akikijwe n'ibikuta bisize ibara ry'umutuku. Inzu isizwe amabara y'umweru, ifite amabati y'ubururu bwerurutse, ifite imiryango ndetse n'amadirisha. Ikikijwe n'ubusitani ndetse n'idarapo ry'u Rwanda.

Icyumba kinini kirimo ububiko bufite ibara ry'umweru, bufite amadirishya ndetse n'miryango yinjiramo, harimo amatara yaka azamuka afite ibara ry'icyatsi, kandi harimo ibara ry'umweru.

Umwana ufashe ibase wambaye ibintu by'icyatsi n'ubururu, inyuma ye hari undi mugabo ufashe umwana mutoya, iruhande rwabo hari ibindi biti birimo ubusitani bwiza n'urundi ruhande hari ibiti, inyuma yabo hari inyubako ebyiri.

Umurwayi uryamye wiyoroshe ikiringiti kirimo amabara y'umutuku n'ubururu. Imbere ye hari ibyuma biri kumufasha guhumeka neza, ku rundi ruhande hari ibyuma bimufasha mu kumera neza. Imbere ye hari amarido n'ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Icyapa kigaragaza ko ari ubuvuzi bw'ibanze kivuga ngo "Iyo uri kumwe natwe uba uri mubinganza byiza", iruhande rwacyo hari ibiti nk'igipangu gikurutiriye na kaburimbo iruhande rwa na moto imbere yayo.

Ivuriro hari abantu benshi, imbere yaho hari itente irimo abajyanama b'ubuzima, imbere yabo hari indi nzu irimo abantu baje kwivuza, n'abandi bagabo bambaye imyenda y'icyatsi.

Ubusitani bunini, amatara atanga urumuri muri ubwo busitani, inzu nini cyane, ifite amadirishya, inzugi n'aho kwinjirira hatandukanye. Igice kimwe gisize ibara ry'umweru n'ahandi hari amatafari.

Inzu yo gukoreramo n'imyitozo ngororamubiri, ifite indorerwamo, ku mpande zombi, iburyo n'ibumoso, zitandukanyijwe n'igikuta. Hari ibyuma biterurwa hakorwa imyitozo ngororamubiri, bifite ibara ry'umukara ku mpande zombi, hejuru no hasi.

Inzu nini cyane ifite amadirishya menshi cyane, igisenge cyenda gusa umutuku, amatara iruhande rwayo, ubusitani n'ubwatsi bwiza cyane bubikikije.

Icyapa kigaragaza ko ari ibiro bikuru, imbere yaho hari inyubako nziza ifite amadirishya menshi n'utuntu tugabanya ubushyuhe twinshi turi hanze, imbere yaho hari imodoka ebyiri n'indi nini y'umweru.

Intebe nyinshi cyane zumukara imbere hari abantu bategerejee yambaye umupira wubururu bambyiniye abagore bicaye imbere umwe yambaye icyatsi indi roza re hari umuryango nundi ruhande rwabo wambaye ibintu byumukara.

Aho bagurira imiti, hafite amadirishya n'inzugi zinjiramo, utubati turimo imiti, abantu baje kugura imiti, harimo umubyeyi uhetse umwana, umwana muto ndetse n'abadamu babiri.

Umurwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi, yambaye amasogisi y'umweru, ipantaro ya kaki, hari undi muganga uri kumwitaho wambaye itaburiya y'umweru na ga, yambaye n'agapfukamunwa, inyuma yabo hari undi muganga n'undi murwayi.

Umugore uri kugenda ufite umusatsi w'umukara. Wambaye imyenda y'icyatsi, iruhande rwe hari amarido y'ubururu n'ibitanda by'abarwayi. Iruhande rwe hari ibindi bikoresho bakoresha mu kuvura abarwayi.

Inzu nziza cyane igaragaza ko ari akarere ka Nyarugenge, ibitaro byayo. Kikijwe n'ubusitani bwiza n'andi mazu meza, iruhande rwayo hari inzu imwe isa umweru n'amadirishya y'ubururu ahandi hasa umutuku wijimye.

Abaganga bane, iruhande rwabo hari amavuta y'ibihwagari, ku rundi ruhande hari agatambaro bifashisha guhanagura intoki n'ibindi bikoresho bifashisha mu kuvura abarwayi, imbere yaho hari amadirishya.

Ibitanda bitatu byabarwayi bibiri nibyo biryamyeho abantu, kimwe cyo hagati ntabwo kiryamyeho umuntu, ibyo bitanda bifite inzitiramibu hejuru kugira birinde imibu, iruhande rwayo hari amadirishya ariho amarido y'umutuku.

Icyumba kirimo ibyuma byo kwa muganga, iruhande hariho icyuma gifasha abarwayi kugenda, iruhande rwaho hari gitanda kiryamaho abarwayi, hejuru yaho hari isaha, igikuta cy'ubururu kiri iruhande.

Umurwayi uryamye ku gitanda wambaye ikanzu y'ubururu, imbere ye hari umugabo wambaye ishati y'umweru, iruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu y'iroza, ari kumwitaho umurwayi kugira abashe kumererwa neza.

Umugore ufite ibisuko byinshi, wambaye imyenda y'ubururu. Ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda. Iruhande rwabo hari indi mashini ibafasha mu kuvura umurwayi kugira amere neza.

Ubusitani bwiza bwiganjemo ibiti bitoya n'ibinini , iruhande rwayo imodoka eshatu zirimo iz' imbangukira gutabara, imbere yayo gato hari inyubako ifite imiryango minini.

Umuganga uri kwita ku murwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi, wambaye akantu wipfutse mu mutwe, umuganga ufite umusatsi mwinshi wambaye n'itaburiya y'umweru, umurwayi we ari mu kiringiti cy'icyatsi, inyuma yabo hari undi murwayi uryamye.

Inyubako nini cyane ifite amadirishya menshi, imbere yayo hari abantu bambaye ibintu bisa by'ubururu, imbere yaho gato hari ikigaragaza icyo baje kuhakora, imbere yaho hari n'indi modoka y'umweru.

Icyapa cyanditseho ikigo nderabuzima cya Matyazo. Hariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'amagambo yanditse mu nyuguti z'umukara, yanditseho u Rwanda. Hariho abaturage bari kwinjiramo, hepfo hari umuhanda, ruguru yabo hari amazu afite amabati y'ubururu ndetse n'inkuta z'umweru.

Umuntu umwe wicaye ku ntebe, iruhande rwe hari imodoka iri gusohoka, harundi muntu urikumufungurira, imbere yaho hari inzu yamagorofa ane, imbere yaho hari indi modoka eshatu, n'abantu babiri bari imbere yazo.

Abantu benshi bari kwifotoza harimo abaganga. Inyuma yabo hari icyapa kiriho ko hari ibitaro bya Rwamagana. Imbere yayo hari urutoki n'abantu benshi barimo abaganga n'abakora mu bijyanye n'ubuvuzi.

Hari intebe nyinshi hari izicaraho abantu benshi, ziri mu ibara ry'ubururu, hari n'iziciroho w'umuntu umwezu yemo ziri mu ibara ry'ubururu ebyiri hejuru z'umuhondo iruhande rwabo imiryango yo kwinjiramo.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, amagare afite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, aho bicara bazamura ibyuma, televiziyo ebyiri hejuru, imiryango yinjiramo ndetse n'inkuta zisize ibara ry'umutuku.

Ibiti bitoya imbere hari icyapa kigaragaza ko aho ugiye kwinjira ari ibitaro. Imbere y'aho hari aho binjirira, iruhande rwe hari amadirishya atatu. Urundi ruhande hari igiti kinini cyane.

Icyapa kinini gikozwe mu byuma cyanditseho ibitaro bya Kabgayi, gikikijwe n'ibiti, ruguru haragaragara imisozi, hari inzu zifite amabati y'umweru, amatara abonesha ku muhanda ndetse n'ubusitani.

Icyumba cyo kwa muganga gifite inkuta z'umweru kirimo intebe yicarwaho n'umurwayi, ifite ibara ry'ubururu bwererutse ishobora kumanurwa cyangwa ikazamurwa, ikikijwe n'utumeza turiho ibikoresho, intebe muganga yicaraho ndetse n'aho bazimiriza itara cyangwa bakaryatsa ku gikuta.

Ubwatsi n'indabo byiza byegereye inzu nziza, iruhande rwabo hari abantu bategereje serivise, imbere yaho gato hari andi izindi ndabo n'abandi bantu bari mu idirishya.

Inzu y'abarwayi aho bafatira imiti, imbere yayo hari umuryango hari umuntu, imbere y'uwo muntu hari moto ebyiri, iruhande rwe hari icyapa kigaragaza ko ari inzu y'abarwayi aho bafatira imiti.

Umuganga wambaye taburiya y'umweru n'akantu bapimisha mu mutima kuri gutera ariko buri murwayi wambaye ikabutura y'umweru ariko urarareba uko ivi rye rimeze niba rifite ubuzima bwiza.

Umukobwa uvuye muri siporo uri kunywa amazi menshi, ku rutugu hariho agatambaro k'umweru, wambaye isengeri y'amabara arimo icyatsi, umweru n'ubururu, wambaye n'umuringa ku ijosi.

Umugore uri mu myitozo ngororamubiri wambaye isengeri y'umukara, imbere ye hari imashini, iruhande rwe hari utundi yifashisha mu gukoresha imyitozo ngororamubiri n'icupa ry'amazi ku ruhande rwe.

Ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, haragaragara ibyuma by'ibiro makumyabiri ndetse n'ibindi byuma biterurwa. Hari inkingi ndetse n'ibindi byuma byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, hari ibikururwa ndetse n'aho kwicara.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye agapira k'umuhondo, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara. Inyuma ye hari ibiti byinshi n'icyapa, iruhande rwe rundi hari ibindi biti bitoya.

Umugore uri kwita ku mukinnyi uvuye mu kibuga, umukinnyi wambaye umwenda umupfutse mu maso n'umupira w'umweru uvanzemo n'umukara. Umugore yambaye isaha, afite ibishuko yambaye n'agapfukanwa n'umupira w'umukara.

Umukobwa ufite ibyuya byinshi wambaye isengeri y'umweru ku rutugu rwe hari aka bafashisha bihanaguza umubiri ari kunywa amazi yegamiye ku kintu cyumukara iruhande rwe hari amarido y'umweru.

Akadege gato gafasha kujyana amaraso ku barwayi bayakeneye, karimo gusa umweru higanjemo n'umutuku, inyuma yaho hari amazu n'ibiti byinshi mu muhanda.

Icupa rifite umutwe w'ubururu mu ijosi yaho harimo akantu k'umutuku, riri gusuka amazi mu kirahure menshi cyane, imbere yaho hari igikuta cy'umweru.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, ukuboko kumwe hariho akantu k'umweru, akandi hari akantu k'umukara ari kunywa amazi yambaye n'ibyifashishwa kumva imiziki imbere ye hari imisozi.

Umukobwa ufite ibisuko wambaye isengeri uri mu myitozo ngororamubiri, uri kumva imiziki, imbere ye hari ibiti kandi ari gukora imyitozo ngororamubiri, agorora amaboko cyane cyane.

Igare rifasha abafite ubumuga kugenda, rifite amapine abiri manini afite ibara ry'umukara, rikagira udupine duto tubiri dufite ibara ry'umukara, icyuma kizenguruka gifite ibara ry'ubururu, aho bafata hejuru hafite ibara ry'umukara, ndetse naho gutereka ibirenge hafite ibara ry'umukara.

Umukobwa ufite umusatsi mwinshi cyane, wambaye umupira wa ruje ufite ibyifashisha mu kumva indirimbo, afashe icupa ry'amazi ari kuyanywa inyuma ye hari ibiti byinshi.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri utambaye ikintu hejuru, wambaye ikabutura y'umweru, yambaye n'isaha y'umweru n'inkweto z'umweru, inyuma ye hari ibirahuri mu madirishya yo mu nzu.

Umugabo w'umwirabura wambaye imyenda y'ubururu, ari kuvura umurwayi wambaye ipantaro y'ubururu kugira amaguru ye agororoke neza. Iruhande rwe hari amashusho y'ukuntu wabikora neza, imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ukiri muto uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye agapira gato, gafite ibara ry'umweru. Ipantaro nto imufashe, ifite ibara ry'umukara. Ari gukoza ukuboko kwe ku birenge. Inyuma ye hari intebe zifite ibara ry'umweru.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibyuma bitandukanye bikoreshwa mu gukora siporo, amagare, icyuma wirukiraho, aho kwicara, aho umuntu yicara azamura ibyuma ndetse n'ibindi.

Umugabo uri gukora umubiri ufite imitsi, uteruye icyuma, imbere hari ibimufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri harimo inanasi, amazi, amagi, amashu ndetse n'ibindi byinshi.

Umugabo ufite ubwanwa bukeya, imbere ye hari amadirishya matoya atagaragara neza, ufite icupa ririmo amazi menshi ari kuyanywa. Afite intoki ngufiya.

Umuntu uri kwivura wavunitse ivi, yambaye imyenda y'ubururu, ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru, afite akantu k'ubururu ari gukoresha gakonje ashyira ku ivi ryavunitse, afite intoki ndende.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara n'akandi kantu yambaye mu kuboko ari kunywa amazi meza yambaye amaherena mu gutwi, inyuma ye hari ibiti byinshi bigaragara ko ari ishyamba.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri wambaye inkweto ziganjemo amabara ya move n'umweru. Yambaye ipantaro y'umukara, yambaye n'isengeri ya roza, iruhande rwe hari icyapa.

Umugabo umwe ufite umupira w'amaguru wambaye umupira w'ubururu ni ikabutura y'umukara, ari kwereka uburyo umurwayi wambaye umupira w'umuhondo uri kugendera mu kagare agomba kwitwara.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye umupira w'umukara, urimo uturongo tw'umweru. Iruhande rwe hari umugore uri kumufasha, wambaye umupira w'ubururu n'isaha. Imbere yabo hari amazi.

Umukobwa w'umwirabura uri kwinanura, yicaye ku gitanda, yambaye ipantaro y'umukara agapira k'umukara, inyuma ye hari amarido afite ibara ry'umweru abonerana, ibikuta bisize ibara ry'umweru n'ifoto ifite amabara y'umweru inyuma ku gikuta.

Umugabo ufite umusatsi mukeya ufite icupa ryamazi ari kunywa amazi wambayekuteri ari kumva indirimbo yambaye umupira w'umweru agakomo k'umukara imbere ye hari igikuta cy'umweru.

Umugore uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye ipantaro y'umutuku n'agasengeri k'umutuku, ufite ibisuko, inyuma ye hari idirishya n'intebe, iruhande rwe hari izindi ntebe n'imeza.

Umugabo uri gukora siporo, ufite amaboko manini, wambaye isengeri y'umukara n'inkweto z'umukara. Iruhande rwe hari ubusitani bwiza, inyuma ye hari ibiti byinshi, bigize ishyamba rinini cyane.

Abagabo bane bambaye imipira y'amaboko maremare n'amakabutura n'amakora y'amaguru maremare bose bari muri siporo, bari kwiruka muri sitade iruhande rwayo bari ubusitani.

Umugore uri gucuruza imiti gakondo, inyuma ye hari undi mugore wambaye ibintu by'umweru, wambaye agatambaro k'umweru, imbere ye hari undi mugabo uri kugura imiti no ku rundi ruhande niko bimeze.

Icupa rito rifite umupfundikizo w'umweru ukaragwa, kugira ngo ufungure, icupa ryose rifite ibara ry'umweru, ryanditseho amagambo afite ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse hari n'andi magambo mato, yanditse mu ibara ry'umukara.

Umugabo wicaye ku ntebe, inyuma ye hari akabati, ari muri raburatwari, Imbere ye hari udukoresho two muri raburatwari, ari no gupima ibindi bintu byo muri raburatwari.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, wambaye akagofero k'ubururu ko kwa muganga n'agapfukamunwa k'ubururu, imbere ye hari udukarito tw'umutuku tw'imiti n'utundi turi mu ducupa, afashe agakarito k'umutuku iruhande rwe hari urugi.

Icupa ry'umuti rito, rifite umupfundikizo w'umweru ukaragwa kugirango ufungure, ryanditseho amagambo ari mu nyuguti z'ubururu bwerurutse, icupa ryose rifite ibara ry'umweru.

Umugore ufite imisatsi myinshi wambaye imyenda y'umweru, ufite isakoshi yenda gusa umukara, uri iruhande rwo mu rutoki ruto ufashe mu bishyimbo.